Umugabo wambaye imyambaro yabugenewe y'akazi, akaba ahetse ipombo, ari mu murima we uhinzemo imboga, ari kugenda azitera imiti kugira ngo izo mboga zimererwe neza zitazafatwa n'udukoko.

Abantu babiri b'abazungu, bahinze ubuhinzi bw'indabyo, none bakaba bahetse amapombo, bari kugenda babitera umuti kugira ngo wice udukoko, izo ndabo zabo zitazarumba.

Umugabo wambaye isengeri y'umutuku, ingofero y'umutuku ndetse n'ikabutura ya kaki, ari mu murima w'intoryi aho ari kugenda azuhira kugira ngo zimere neza hanyuma zizabashe kumuha umusaruro mu mu gihe kizaza.

Ahantu bacuruza imbuto zigiye zitandukanye zifashishwa mu buhinzi haba hari abantu babyigiye aho ugenda ukavuga ibyo ushaka bakagupimira ku munzani hanyuma ukishyura amafaranga maze ugataha.

UImuntu uri mu murima uteyemo umuceri akaba ahetse ipombo y'icyatsi yambaye imyenda y'umukara, akaba ari kugenda awutera umuti kugira ngo uwo muceri urusheho kumererwa neza ndetse awurinde n'udukoko tugiye dutandukanye.

Abagabo bagera kuri batatu bakaba bagiye mu gikorwa cyo kuroba, bakaba bafite indobani mu ntoki bari kugenda bakuramo amafi bamaze gufata bayashyira mu ibase kugira ngo babone uko bajya kuyagurisha.

Abantu bari kugenda hagati mu cyuyuzi aho harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bagiye gusura iki kibazozi ngo barebe ko kimeze neza ku buryo amafi aba arimo abafite ubuziranenge atatera ikibazo runaka.

Abantu bagiye batandukanye b'igitsina gabo, bahuriye hamwe ku cyuzi, aho bari kuroba, harimo babiri bari kohereza indobani mu mazi kugira ngo zize gufatwaho amafi, hanyuma bayarobe.

Ubworozi bw'amafi nabwo bukomeje gutera imbere cyane, aho hari abagabo bagera muri bane bafite indobani mu ntoki bamaze kuvana mu mazi, ikaba izamukanye igifi kinini bari kukerekana bishimye.

Umugabo wambaye agapira k'umukara ipantaro y'umukara n'isaha, akaba ari ahantu imbere y'ibyuzi bigaragara ko ari umurobyi, inyuma ye hari agahene kaziritse k'umukara keza cyane.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga, hanyuma iyo kawa ikabateza imbere cyane maze bagasezera ku bukene.

Umugore uri ahantu mu murima wi'ikawa, yambaye agapira ka oranje ndetse gafite ikora ry'umukara, akaba ari kugenda asoroma ikawa kugira ngo arebe ko yakwiteza imbere hanyuma agakirigita ifaranga.

Umugore uri kugenda mu murima w'icyayi, aho ari kugenda agisoroma ahetse intebo mu mugongo, aho ari kugenda asoroma anaga muri iyo ntebo ye, kugira ngo arebe ko yamererwa neza akabona ikimutunga.

Abaturage bari kugenda ahantu hateye icyayi bikoreye icyayi ku mutwe bigaragara ko bamaze kugisoroma none bakaba bakijyanye ku kirogotero kugira ngo bagipime hanyuma bazabishyure.

Ubuhinzi bw'ikawa na bwo bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe, hari abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga, hanyuma ikawa yamara kwera, bakayisoroma, bakajya kuyigurisha.

Ahantu bahinga icyayi by'umwihariko mu turere dukonja, twavugamo nka Ngororero, Rubavu, Rusizi ndetse na Nyabihu ndetse n'akandi karere ka Nyamagabe na Nyaruguru.

Abantu benshi cyane bahuriye mu murima w'icyayi bari kugenda basoroma biganjemo ab'igitsina gore ndetse bakaba bambaye intebo mu mpanga aho bagenda banagamo icyayi bamaze gusoroma inyuma.

Umurima uhinzemo amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto, aho hari imbuto cyangwa se ibimera byitwa imboga za dodo, aho izi mboga zifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye cyane cyane nk'iz'imirire mibi.

Ubuhinzi bw'umuceri bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga umuceri barabigize umwuga bakawuhinga mu buryo bw'imironko ku buryo bashobora kugenda bawunyuramo bari kuwuhira.

Abantu bari mu murima w'icyayi, aho ari gusoronga. Icyayi rero ni bimwe mu bihingwa ngengabukungu, aho abahinzi babyo bahinga mu turere dukonja cyane, cyane cyane nk'utwo mu Ntara y'Iburengerazuba.

Abahinzi ba kijyambere bahinga ibihingwa ngengabukungu b'abagore ndetse n'abagabo bahagaze bishimye bose banezerewe bakoma mu mashyi bigaragara ko bamaze gusarura none bakaba bari kwikomanga mu gatuza.

Umuntu uri mu murima w'ikawa aho ari kugenda ayisoroma, ubuhinzi bw'ikawa rero ni ingirakamaro cyane kuko butanga umusaruro uhagije, nyirawo agatera imbere ndetse n'Igihugu kigatera imbere.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye aho bari mu murima w'icyayi bari gusoroma, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, uwo murimo w'icyayi rero ukaba utanga umusaruro cyane by'umwihariko ku muhinzi w'iki cyayi.

Hariho amoko agiye atandukanye y'imiti, ikunze kuba iri ahantu muri farumasi, iyo miti rero yifashishwa mu kuvura amatungo, aho iba iri mu mashashi agiye atandukanye bifashisha.

Inyubako nziza cyane icururizwamo imiti igiye igeye igezweho kandi itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo. Aho amatungo bayaha imiti hanyuma agakira indwara yari arwaye runaka.

Agacupa k'icyuma karimo amoko atandukanye y'ibimera aho ibi bimera ari ingenzi cyane ndetse bikaba bivamo n'umuti uvura amatungo abantu baba boroye.

Amacupa agiye atandukanye aba arimo imiti yifashishwa mu kuvura inyamaswa cyangwa se amatungo yo mu rugo, haba harimo abaveterineri babyigiye ku buryo bagusobanurira uburyo ki uyu muti ukoreshwa.

Agacupa k'icyuma, karimo umuti wifashishwa mu kuvura amatungo, kari mu mabara y'umweru, aho kariho icyapa cy'umukara, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, mu mabara menshi anyuranye.

Agakarito karimo imiti igiye itandukanye, aho iyi miti yifashishwa mu kuvura amatungo azwi nk'inyamaswa, aho bagenda bayaha imiti nk'iyi ngiyi, hanyuma akayinywa akamererwa neza igihe arwaye.

Iduka ricuruza imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, aho iyo miti aba ari ingenzi cyane kuko iyo umuntu ayifashishije avura amatungo, bituma amererwa neza agatanga umusaruro.

Utubido turi mu mabara agiye atandukanye y'umweru ndetse n'icyatsi tukaba dupanze ahantu hamwe mu tubati aho utu tubido ari ingenzi cyane kuko tuba turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Iduka ricuruza imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo iba iri mu macupa agiye atandukanye aho ugenda ukabwira umuntu ukoramo uko itungo ryawe rirwaye ubundi akaguha umuti.

Intebe y'umweru ya kijyambere ikozwe muri pulasitiki ikaba irambitse ahantu mu nzu, iteretseho akagururudu gasa ubururu karimo umutungo cyangwa se umuti bifashisha bari kuvura amatungo.

Amoko menshi agiye atandukanye y'amacupa, aho aya macupa aba arimo imiti myinshi igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi amererwe neza, bayarinda indwara zitandukanye.

Umugore uri mu murima w'inanasi ari kumwe na bagenzi be aho bari kugenda bita ku nanasi zabo kugira ngo barebe ko zabateza imbere maze bagasezera ubukene.

Umugore uri mu murima uwo murima ukaba uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, harimo imyumbati aho ari kugenda ayibagara kugira ngo abone uko azakuramo umusaruro utubutse.

Ubworozi bw'inyamaswa zikunze kuba ziri muri pariki nkuru y'u Rwanda y'Akagera iherereye mu Ntara y'Iburasirazuba, hakaba harimo amoko menshi atandukanye y'inyamaswa nk'imparage ziba zifite utubara twiza cyane.

Abantu babiri bari kugenda mu murima uhinzemo umukeke bakaba basunitse inkwi ku igare, akaba ari abagabo aho harimo umwe wambaye ipantaro y'ubururu undi yakenyeye umupira w'umutuku mu nda.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko agiye atambitse, akaba afite ibigori avuye kugenda arandura mu murima we, aho ari kugenda yicira bimwe kugira ngo bitazabyigana maze ntibyere neza.

Umurima munini uhinzemo ibigori hakaba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa zikunda kona ibigori harimo n'izizwi nk'inkende, zagezemo none zasanze ibigori bitarera ziri kurunguruka.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari umuntu uba uzoroye azi no kuzivugira, yajya arazibona ziri kurisha akajya yivugisha ati "mbe rutimirwa zihotoye ngoga rwa Nyamwigema ya Rugamba.

Abantu bari kugenda mu murima uhinzemo umuceri, biganjemo ab'igitsina gore, bakaba bari kugenda bari kureba ko umuceri waba weze ngo babe bawusarura, dore ko bafite imihoro yifashishwa basarura umuceri.

Ibigori ni bimwe mu bihingwa bikunze guteza imbere abahinzi babyo, aho umuhinzi abihinga hanyuma byamara kumera akagenda abyuhira ndetse abishyiraho ifumbire, byamara gukura bikazamuha umusaruro ufatika.

Ubuhinzi bw'ijumba na bwo busigaye bwitaweho cyane, aho muri iki gihe, hari abantu baba barabigize umwuga, bakabihinga byakwera, bakabigemura ku masoko agiye atandukanye, hanyuma bagahabwa amafaranga.

Umurima uteyemo ibihingwa byinshi bigiye bitandukanye aho uyu murima uteyemo urutoki, ukaba ufite intabire nziza cyane irimo amoko agiye atandukanye y'imbuto bashaka guteramo.

Ni igishanga giteyemo ubuhinzi bw'umuceri bugiye butandukanye, aho umuntu uhinga umuceri agenda awitaho buri kanya mu gishanga kugira ngo utaza kugira ikibazo maze ukaba warumba.

Umurima uteyemo ubuhinzi bw'imyumbati aho ari imyumbati myiza cyane, imyumbati na yo imaze gutera imbere aho hari abantu basigaye bayihinga barabigize umwuga hanyuma ikabateza imbere.

Amoko agiye atandukanye y'ibihingwa bikunze guhingwa ahantu mu gisambu, ibyo bihingwa rero biba ari ingirakamaro cyane kuko biteza imbere umuhinzi wabyo, maze agakirigita ifaranga akaba umukungu.

Inyubako nziza ifite imbuga iteyemo sima, iyo sima kandi ikaba ijya kumera nka kaburimbo iri mu mabara y'umukara, aha hantu rero ni ahantu heza cyane, bigaragara ko hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye.

Amurima wamenetsemo ibishyimbo igihe basaruraga none imvura ikaba yaguye bya bishyimbo bikamera ahantu mu kibara, ni byiza ko ibi bishyimbo babiradura hanyuma bakahahinga bakabitera bundi bushya.

Indobo zigera muri eshatu z'umukara zikaba zirimo ibirayi kandi zuzuye, ubuhinzi bw'ibirayi rero na bwo busigaye bwarahawe agaciro cyane mu Rwanda, aho ibirayi bisigaye bigura amafaranga atari make.

Umurima w'ibigori uteyemo imyaka myinshi igiye itandukanye, ibi bigori rero ni ingenzi aho muri iki gihe umuntu asigaye akora umushinga w'ubuhinzi ukaba wamuteza imbere akaba umukungujumba maze agasezerera ubukene.

Ubuhinzi bw'ibihaza nabwo busigaye bwarateye imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu babihinga kinyamwugazi. Izi nzuzi rero zitanga ibihaza binini kandi biryoshye, bifite vitamine n'intungamubiri.

Inyabutongo ni zimwe mu mboga z'ingirakamaro cyane, kuko umuhinzi wazo zisigaye zimuteza imbere cyane ndetse n'umuntu wa uziriye bigatuma agira ubuzima bwiza kuko ziba zifite vitamini.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, unyura ahantu mushyamba harimo amoko agiye atandukanye y'ibiti, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire, biba bitanga amatara yo ku muhanda, bimurikira abagenzi.

Ishyamba rinini cyane riteyemo amokogi atandukanye y'ibiti birebire ndetse n'ibigufi, ibti by'ibiterano ndetse n'ibya kinmeza ndetse ibi biti bikaba ari ingenzi kubera ko bikurura imvura.

Ishyamba riteye ahantu riri kuvamo ibicu byinshi iri shyamba rero biragaragara ko ari rinini, ari ishyamba rya pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera iherereye mu ntara y'Iburasirazuba.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane buteyeho ibiti, ibyo biti rero hejuru yabyo hakaba hari umwotsi mwinshi cyane bigaragara ko ari ibicu, ibi biti bikaba bikurura imvura ndetse n'umwuka mwiza duhumeka.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera bikunze kuba biri ahantu mu mirima igiye itandukanye, ni ngenzi cyane rero ibi bimera kubera ko bikunze kuba bitanga umusaruro.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibihu byinshi byagiye biba umweru ku buryo wagira ngo ni ibintu by'umweru bamenye mu ishyamba hagati, iri shyamba rero ni ryiza cyane kubera ko rizana umwuka mwiza duhumeka.

Ishyamba rinini cyane rya kimeza rigaragaza ko ari muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, aho hateyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, iri shyamba rero habamo n'inyamaswa z'amoko atandukanye.

Umuhanda w'igitaka unyura ahantu mu ishyamba ariko ugendwamo 'atandukanye y'ibinyabiziga hakaba hari n'ibiti birebire bitwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'ishyamba rikikije uwo muhanda.

Umuhanda w'igitaka uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigenda bitandukanye aho haba harimo ndetse n'abantu ukaba n'umuhanda unyuze ahantu mu giturage aho uwo muhanda ufite akayira keza cyane.

Ubuhinzi bw'indabyo na bwo bukomeza gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije n'uko bukeye kubera ko busigaye butanga umusaruro ku baturage maze bakiteza imbere, bagakirigita inote.

Amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto zikunda guhingwa ahantu mu cyaro cyane cyane nk'imbuto z'amapera aho zikunze kuribwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kandi zikaba zihendutse zigura make.

Umugabo wambaye akajiri ndetse n'ikote ndetse n'ingofero y'umukara akaba ari mu murima uhinzemo imbuto zigiye zitandukanye, zikaba zaratukuye aho ashaka kugenda azisoroma akajya kuzigurisha.

Ubuhinzi bw'indabyo na bwo bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda ndetse buhabwa n'agaciro, aho hari abantu bahinga indabo hanyuma bakajya bagenda bazigurisha abantu bagiye gukora ubukwe bakabishyura amafaranga menshi.

Ubuhinzi bw'amashuri na bwo bumaze gute imbere cyane muri iki gihe aho hari abantu basigaye bahinga amashuri barabigize umwuga bakayitaho bakayavomera hanyuma yamara gukura akabaha umusaruro bagakirigita ifaranga.

Abantu bagera muri batatu abo harimo babiri b'igitsina gabo bafite amasuka bari kugenda bahinga mu murima hakaba hari n'umugore uhagaze imbere yabo yambaye ipantaro, yambaye n'ingofero ari kubabaza uko bikorwa.

Umugore uri mu murima uhinzemo ibijumba, akaba yambaye umupira w'icyatsi ndetse akaba afite indabyo mu ntoki, ubuhinzi rero bw'indabyo, ni bumwe mu buhinzi busigaye buteza imbere abahinzi babwo.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bagiye batandukanye higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bahuriye mu murima uhinzwemo indabo, bari kugenda bareba neza niba zareze kugira ngo babone uko bazisarura.

Ahantu heza cyane hari ubuhinzi bw'imbuto zigiye zitandukanye, hari igiti cy'umwembe kirimo imbuto, harimo inkeya hakaba haparitse n'imodoka nziza cyane, imbuga ikaba ishashemo amapave.

Ahantu mu cyaro basigaye bahinga imboga zigiye zitandukanye, hanyuma bakazuhira bakoresheje uburyo bwa tekinolojiya, aho haba hari imipira itungereza kure cyane hanyuma amazi akagera ku bihingwa byose.

Muri iki gihe kuhira ntabwo bigiteye ubwoba kuko haje imashini nziza cyane, ziba zifite amapine kandi zikaraga, zigenda zitungereza amazi, ahari imyaka hose hanyuma ikamererwa neza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga igihe icyo ari cyo cyose, maze haba mu zuba bakabyuhira bakoresheje ikoranabuhanga, aho bifashisha imashini bari kuhira ibihingwa byabo

Umwana uri mu murima uteyemo imboga akaba afite igikoresho cyabugenewe ari kugenda azuhira kugira ngo zimererwe neza kandi zizatange umusaruro utubutse maze nyira zo atere imbere.

Umurima uteyemo amafu bakaba bari kuyuhira mu buryo bugezweho bwa kizungu aho hari ibyuma bisigaye byifashishwa bari kuhira aho biba bigenda byizenguruka bihuhira ibihingwa byose nta muntu ubikoresheje.

Umugezi w'Akagera aho urimo amazi menshi cyane, hakaba harimo n'amarebe azwi nk'ibyatsi biba biri gutembera mu mazi, ukikijwe n'ikiraro kiza kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Igishanga giteyemo umuceri aho bagiye bayobyamo amazi kugira ngo umuceri ubashe kubona amazi ahagije maze uzatange umusaruro kuri nyirawo maze atere imbere akigi ifaranga.

Umugore uri mu murima akaba ahetse umwana, afite umupira ari kugenda yuhira imyaka ihinze mu murima we. Yambaye umupira uri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru akaba ahetse n'umwana.

Kuhira bisigaye byarateye imbere cyane muri iki gihe mu Rwanda, aho abantu basigaye bahinga imyaka no mu gihe cy'izuba, hanyuma bagakoresha uburyo bugezweho bwo kuhira, bakazajya bayivomera ntirumbe.

Udusozi tunini twinshi cyane tugiye dutandukanye ndetse utwo dusozi tukaba tugiye twanditseho amagambo y'umweru mu ntangiriro z'uwo musozi haciyemo umugezi munini w'amazi bigaragara ko ari umugezi w'Akagera.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'insina aho izo nsina ari ingenzi cyane kuko ziba zitanga umusaruro ku muhinzi wazo maze akaba yatera imbere agakirigita ifaranga.

Ahantu mu misozi migari, haba hari amashyamba meza cyane ndetse n'imisozi minini cyane y'ibirunga, aho abakerarugendo bakunda kujya gusura inyamaswa z'ingagi mu Rwanda.

Agasozi gateyeho amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bihingwa ari ingirakamaro cyane, aka gasozi rero kakaba gateyeho ibiti byinshi bigiye bitandukanye biri ku gasozi ndetse ikirere kiri gusa ubururu n'umweru.

Ubutaka bugari cyane higanjemo n'imisozi miremire igiye itandukanye, aho iyo misozi iteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ni byiza cyane rero guhingavu ubutaka bugari bungana nk'gutya.

Ahantu heza cyane hari amoko menshi y'ibiti bigiye bitandukanye aho ibi biti biba ari birebire kandi ari byiza ku buryo bitanga umuyaga n'amahumbezi, hakurya hari imisozi miremire cyane.

Agasozi gateyeho ibihingwa bigiye bitandukanye, aho ako gasozi ari keza cyane. Kakaba gaherereye ahantu hari ibibaya, ndetse hakaba hari n'amazu makeya. Utu ni tumwe mu dusozi igihumbi tugize u Rwanda.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi cyane aho muri iki gihe hasigaye hari abantu borora inkoko barabigize umwuga hanyuma bakazitaho maze na zo zikazabaha umusaruro bagatera imbere bagasezera ubukene.

Akagare kazwi nka bulankare kifashishwa mu buhinzi aho bagashyiraho imyaka baba basaruye bakagenda bayisunikaho bari kuyihungura cyane cyane mu buhinzi bw'ibigori.

Ubworozi bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ingurube bakazitaho bakaziha ibyo kurya bihagije hanyuma zikabyibuha, zikaba zagura nk'ibihumbi magana abiri kuzamura.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu borora inkoko babigize umwuga, bakunze guhera ku dukiri dutoya tw'udushwi bakagenda batwitaho twamara gukura tukabaha umusaruro.

Umugabo wambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara akaba ari kugenda atemberera ahantu mu nyubako aho yororeye inkoko azoroye mu buryo bugiye butandukanye kandi bugezweho aho zigiye zubakiye udutanda tugerekeranye.

Ubworozi bw'ihene na bwo busigaye bwaratejwe imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora ihene barabigize umwuga, hari ihene za kizungu ziba ziri mu mabara ya mutamu ndetse n'umweru.

Ubworozi bw'ingurube na bwo busigaye bwarateye imbere cyane aho muri iki gihe abantu basigaye borora ingurube hanyuma bakazitaho, iyo izo ngurube uzitayeho cyane ziguha umusaruro ugakirigita ifaranga.

Ubworozi bw'inkoko busigaye bwitaweho cyane mu Rwanda, aho hari abantu bazorora barabigize umwuga, bakagenda bazigaburira uko bwije n'uko bucye, hanyuma zikabateza imbere ba nyirazo.

Ubworozi bw'inka busigaye bwaratejwe imbere mu Rwanda aho hasigaye hari abantu bazorora buryo bwa kinyamwuga, bakazororera mu biraro hanyuma bakagenda bazitaho zikazabaha umusaruro mu gihe kiri imbere.

Ubworozi bw'inkoko na bwo busigaye bwarateye imbere cyane aho hari abantu basigaye barora inkoko mu buryo bwa kinyamwuga, bakazifata bakajya baziha ibyo kurya, zamara gukura bakazigurisha zikabateza imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu bworozi bw'amatungo, aho baba babikusanyirizamo amata baba bakamye mu nka bizweho ibicuba.

uburozi bw'ingurube bwateye imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye barora ingurube mu buryo bugezweho, bakazigaburira mu dukoresho twabugenewe, zikarya zitasesaguye kandi zigakura neza cyane.

Umufuka urimo umuceri aho hari umuntu wakozemo akaba ari gusuzuma ngo arebe ko uwo muceri umeze neza, ubuhinzi rero bw'umuceri buba bwiza iyo usaruye ukagurisha ariko ugasigarana imbuto uzifashisha uri guhinga ubutaha.

Iduka ricuruza amoko agiye atandukanye y'imbuto, ku buryo igihe cyose waba ushaka imbuto, wanyarukira hano bakayiguha, hanyuma ugakora umwuga wawe w'ubuhinzi, muri izo mbuto harimo amashaza, ibishyimbo n'izindi.

Umugabo wambaye agashati k'umweru, akaba afite icyapa mu ntoki, cyanditseho amoko agiye atandukanye y'imbuto bifashisha bari guhinga, akaba ari kugenda asomaho.

Umuntu ufite ibihingwa mu ntoki y'imbuto ya soya akaba ari kugenda ayiyobora mu bitebo birimo kugira ngo arebe ko zujuje ibyangombwa, abe yajya kuzitera mu murima we.

Abagore bari ahantu mu isoko ricuruza amoko agiye atandukanye y'ibihinmbo, aho iri mu mabase ndetse n'ibindi bafite ku dusahane, bari kugenda babitoranya kugira ngo bavanemo imbuto nziza bazahinga.

Amoko menshi a atandukanye y'inka aho zahuriye hamwe zikaba ari inka zo mu bwoko bw'inyambo, izi nka ingirakamaro cyane kuko umuntu uzoroye zimuteza imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Umugabo wize ibijyanye n'ubuveterineri, akaba ari kubyaza inka ayibaze, aho amaze gukuramo akanyana, akaba yayibaze iryamye hasi, akaba ari kureba uburyo ki yayiteranya aho yayisatuye.

Umuntu uri mu nzu, bigaragara ko yambaye imyambaro y'abaveterineri, akaba ari kuvura inka yagize ikibazo, yambaye agapfukamunwa, igisarubeti ndetse n'udupfukantoki mu ntoki ze.

Abantu boroye inka, baba barateye imbere cyane, aho inka ari zimwe mu matungo meza cyane, akunda gutera imbere umworozi wayo, akaba yakirigita ifaranga ndetse akaba umukungu.

Ubworozi bw'ingurube na bwo bumaze gutera imbere cyane aho muri iki gihe iyo woroye ingurube ikagira ikibazo atari ngombwa guhita uyibaga ahubwo uhamagaza veterineri wabyigiye akaza kuyivura maze igakira.

Abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo bakunze kuba barazobereye cyane mu bijyanye no kuvura amatungo kuko muri iki gihe basigaye babaga n'itungo barangiza bakongera bakariteranya.

Ubworozi bw'inka bw'Inyambo bukomeje guteza imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka z'Inyambo barazigize umwuga, hanyuma zikabateza imbere cyane kubera ko babonamo umusaruro ugiye utubutse.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane buri iki gihe, aho hari abantu basigaye barora inka barabigize umwuga, iyo zigize ikibazo bahamagara veterineri wabigize umwuga, akaza kuzivura ndetse zikamererwa neza.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane aho hari inka iri mu kiraro ikaba iri mu mabara y'umutuku hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kugenda ayitaho, uyu muganga uvura inka akunze kwitwa umuveterineri.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho mo imbere habera ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuvuzi cyane cyane ubw'amatungo, haba hari veterineri wabyigiye agenda afasha abakeneye izo serivise.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu nyubako, bakaba barize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, bakaba bari kugenda bayatera inshinge bayavura kubera ko bize ibijyanye n'ubuvuzi ari abaveterineri.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe umuntu woroye inka aba afite amafaranga menshi atabarika, bakunze kuzororera ahantu mu bikuyu, aho bagenda baziragira kuko ziba ari nyinshi.

Umurima w'umuceri urimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, hari inyamaswa zijya kumera nk'ihene zitwa ishya aho izi nyamaswa ziba ari nziza cyane ziba zizi kwiruka ku buryo nta muntu wayifata.

Hariho utunyamaswa twinshi tugiye dutandukanye dukunze kuba turi ahantu muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera aho utwo tunyamaswa tujya kumera nk'ihene tuba dufite n'amahembe nk'ay'ihene ariko tukajya twigishiriza ibyatsi.

Hariho inyamaswa zigiye zitandukanye ziba ziri muri parike y'Igihugu y'Akagera, aho hari inyamaswa ziba zifite amahembe meza cyane aba afite amashami, ku buryo kuyibona uhita wishima kubera ukuntu amahembe yayo ateye.

Muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda haba harimo amoko menshi y'inyamaswa aho haba harimo n'imbeba ziba zifite imirizo ifite insenzi ku buryo iramutse ikugereye mu myenda yayicagagura ikayihindura ubushyingwe.

Inzovu ni zimwe mu nyamaswa ziba ari nini cyane, zikunze kuba ziri muri pariki y'igihugu y'Akagera, abakerarugendo iyo bahageze bakazibona, bakunda kwiyamira cyane kubera ukuntu ziba ziteye.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi y'inyamaswa zigiye zitandukanye zijya kumera nk'abantu, hari izitwa ibitera aho zikunze kuba ziri kugenda zihetse n'utwana twazo mu mugongo.

Ingwe ni inyamaswa mbi cyane kandi igira ubugome, izi kwiruka cyane kandi ikaba ibasha kurira igiti, igafata ahantu aho ariho hose, ku buryo ntaho inyamaswa yayicikira, ihita iyifata ku gakanu.

Hariho inyamaswa z'amasatura, zikunze kuba zifite umutwe umeze ukuntu ku buryo uba utangaje, izi zikunze kwitwa Gasongo, aho zizi kwiruka cyane kandi zikiyenza, zibera ahantu mu myobo.

Inyamaswayingwe ni imwe mu nyamaswa zikunze kuba ziri ahantu mu ishyamba, ziba zikaze cyane ku buryo inyamaswa yose yayikinisha igerageza kuyiyahuraho ikayica ikaba yayirya, zikunze kandi no kurira ibiti.

Mu mazi habamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa aho habamo inyamaswa zizwi nk'ibishuhe aho zirangwa no kumenya koga cyane kurusha abantu ndetse zikajya kumera kandi nk'imbata urebye ku ishusho.

Ibishuhe ni zimwe mu nyamaswa zijya kumera nk'imbata z'agasozi, zikunze kwibera ahantu mu mazi, aho zifite ubushobozi bwo kuguruka igihe kirekire ndetse zikaba zakwibira mu mazi ntizigire icyo ziba.

Mu mashyamba haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibiguruka aho hariho bimwe bizwi nk'imisambi, biba bifite amabara meza kandi atandukanye ndetse bikagira n'imisatsi y'umweru nk'aho ari abantu.